Ibigo by'amashuri bitangirwamo serivisi y'ubumenyi, cyane cyane ku cyiciro cy'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya cyane, bakitabwaho n'abarezi babo kugira ngo bahabwe serivisi imeze neza.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero k'imyaka mitoya cyane, aho bahurizwa mu cyumba cy'amashuri kugira ngo bahabwe uburezi, ndetse bakitabwaho n'abayobozi babo b'inzobere, kugira ngo babahereze indyo yuzuye n'uburezi, bikubiyemo n'ubumenyi, umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya, aho bahura n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu kubaganiriza ndetse banabasobanurira byinshi bijyanye n'uburezi ndetse n'uburere.

Abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri abanza, bagaragaza ko bishimiye uburezi bahabwa n'abarimu babo, bakagirwa inama ndetse bagahabwa n'inyigisho zitandukanye.

Serivisi y'uburezi butangwa ku bana bari mu cyiciro cy'imyaka mitoya ndetse bakitabwaho n'abarezi babo, kugira ngo babasobanurire byinshi bagiye batamenye, kuko baba batanganya imyaka ndetse bagahana n'ibitekerezo.

Abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bagaragaza ko bishimiye uburezi ndetse n'uburere bahabwa umunsi ku munsi kuko bibafasha mu gukura ndetse bikanabafasha mu gutera imbere.

Icyumba gihuriyemo abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya baherezwa uburere n'abarezi babo kugira ngo babigishe iby'umuco ndetse no kwita ku buzima bwabo, umunsi ku munsi.

Abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bagaragaza ko bishimiye serivisi yo guherezwa uburezi ndetse n'uburere, abarimu babo b'inzobere bakabafasha mu kubasobanurira inyigisho zigiye zitandukanye.

Isuku ku bigo by'amashuri ni ingirakamaro ndetse aho imyanda ijugunywa hagomba kuba hafite isuku kugira ngo abanyeshuri birinde indwara zishobora kwandurira mu mwanda.

Inyubako z'amashuri zifasha abaturage rusange kugira ngo abana babo babone uburezi ndetse n'izindi nyigisho n'ubumenyi kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo bahure n'abarimu babo babahereze uburezi ndetse n'ubumenyi n'inyigisho n'ibindi bisobanuro bitandukanye ku burezi.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba bigiye bitandukanye bitangirwamo ubumenyi ndetse n'inyigisho ziherezwa abana b'abanyeshuri kugira ngo babashe gusobanukirwa.

Ibigo by'amashuri bitanga serivisi y'uburezi ku bana b'abanyeshuri ndetse bagahabwa iniforume zisa kugira ngo abe ari abana bagaragara ko biga mu kigo kimwe, ndetse bakitabwaho n'abarezi muri rusange bigateza uburezi imbere.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubumenyi ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye, aho harimo ameza abitsweho ibitabo bitandukanye, ushobora kwifashisha mu gusoma ndetse n'akabati gateretsemo ibindi bitabo bigiye birimo inyigisho zitandukanye, zishobora gufasha abaturage.

Ibigo by'amashuri abanza aho abanyeshuri bakoresha amazi yo mu bigega kugira ngo babone amazi y'isuku ndetse banakoreshe amazi birinda umwanda.

Ibigo by'amashuri bihuriramo abanyeshuri batandukanye, kugira ngo baherezwe uburezi ndetse n'uburere, n'abarimu b'inzobere bakomeze kubitaho mu buryo bwo kwiteza imbere.

Ibigo by'amashuri birera abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bagomba kwitabwaho bagaherezwa ifunguro rifasha umwana kugira ngo akomeze guhabwa uburezi bumeze neza.

Serivisi itangwa ku baturage ndetse hagakoreshwa inyandiko bakandika mu makayi bakoresheje n'amakaramu ndetse na za mubazi n'amatelefone kugira ngo serivisi y'ubumenyi itangwe imeze neza.

Ibigo by'amashuri bitandukanye ndetse bifite ibyumba, aho abana batandukanye b'abanyeshuri bagomba kujya kugira ngo bahabwe serivisi y'uburezi, ndetse bakayiherezwa n'abarezi babo, mu buryo bwo kwita ku buzima bw'umwana.

Icyumba gikoreshwa n'abarimu batandukanye, mu gutanga serivisi y'uburezi ndetse n'uburere ku banyeshuri bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zabugenewe ndetse hanakoreshejwe impapuro zabugenewe.

Ibigo by'amashuri bihuriyeho abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya cyane, ndetse aho bahabwa uburezi butandukanye, banigishwa kugira isuku umunsi ku munsi.

Ikigo cy'amashuri gikoreshwa n'abanyeshuri bo mu kigero cy'imyaka mitoya, bakitabwaho n'abarezi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye ndetse no kwitwara neza muri sosiyete.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zitandukanye, aho abanyeshuri bahurira kugira ngo baherezwe uburezi n'abarimu babo babishinzwe, babahereza inyigisho zigiye zitandukanye.

Ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe ubumenyi ndetse n'uburere, bagahura n'abarimu babishinzwe kugira babahereze inyigisho zitandukanye ku burezi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ku bigo by'amashuri, aho bagaragaza ko ari ingirakamaro kubona amafunguro ndetse no kwita ku buzima bw'umwana, aho ahabwa indyo yuzuye kugira ngo abone kwiga neza.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye agaragaza amategeko ikigo kigenderaho kugira ngo gitere imbere, harimo disipurine, kubaha, urukundo, kubabarirana, kubaha amadini, ubutabera n'ibindi.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bikoresha ibigega kugira ngo babikemo amazi azafasha abanyeshuri rusange mu kwirinda umwanda ndetse no gukomeza isuku mu bigo.

Idarapo ry'Igihugu riri imbere y'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri baherezwa ubumenyi n'inyigisho zitandukanye n'abarimu babo babashinzwe baba bagomba kugira isuku impande y'idarapa.

Ibyumba by'amashuri ku bigo, aho abanyeshuri batandukanye bashobora kugana kugira ngo bahure n'abarimu babo bashinzwe, babahereze ubumenyi n'inyigisho zitandukanye.

Ibyumba by'amashuri ku bigo, aho abanyeshuri bahurira batandukanye kugira ngo bahure n'abarezi babo, babahereze inyigisho zitandukanye zerekeye ku bumenyi bw'Isi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye ndetse bahuriye ku kigo cy'amashuri n'abayobozi babo kugira ngo babaganirize uburyo bagomba kwitwara ku buryo bw'amashuri, birinda ibintu bitandukanye umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ku kigo cy'amashuri, bagaragaza ko bishimiye kumva neza ibyo babwirwa n'abayobozi babo, bagahabwa inyigisho zitandukanye zibafasha mu kwiyungura ku bumenyi.

Ibigo by'amashuri bitangirwamo serivisi, zigatangwa n'abarimu b'inzobere, kugira ngo bageze ubumenyi ku banyeshuri bagiye batandukanye ndetse banabiteho umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ndetse n'abayobozi babo mu buryo bwo kubashimira bagaragaza ko ari ingirakamaro gutanga uburezi ndetse no guhabwa ubumenyi, bagafasha gusobanukirwa mu buryo butandukanye.

Ibigo bitangirwamo serivisi y'ubumenyi ku bana b'abanyeshuri, ndetse bagahabwa iniforume zisa, bagahabwa n'amakayi kugira ngo bajye bandikamo ibisobanuro babagezaho mu gihe barimo barabahereza amasomo.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bitanga serivisi y'uburezi ku bana b'abaturage ndetse bagahabwa uburezi binyujijwe mu barimu ndetse n'abayobozi babaabakuriye. Hakaba hari ibiti bitandukanye bigaragaza ko ikigo kiba gifite ahantu hanini ho kugira ngo umuntu abone uburyo bita ku kazi.

Inyubako ikoreshwa n'inzobere mu gutanga serivisi ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye ku baturage rusange. Bakabafasha mu kumenya ndetse bakanabasobanurira byinshi bitandukanye bitangwa mu mavuriro ndetse no gukomeza kwita ku bukangurambaga no kubavura ibibazo byo mu mutwe.

Ibigo by'uburezi bitangirwamo serivisi, aho abanyeshuri bitabwaho n'abarimu babo kugira ngo babahereze inyigisho z'uko bagomba kwitwara ku mashuri.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye bari kugana ku bigo byabo by'amashuri, aho bahurira n'imodoka kugira ngo bagende bakezwa mu bigo byabo by'amashuri kugira ngo bitaza guhura n'ibibazo mu ngendo zabo.

Icyumba kirimo ibitabo bitandukanye bibitswe mu buryo bw'isuku ndetse bikaba bikoreshwa n'abaturage, cyangwa se abanyeshuri mu kwiteza imbere mu bijyanye no gusoma ibitabo.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muturage ndetse aha ni ikigo cy'amashuri kigaragaza ko gukoresha siporo abanyeshuri ari ingirakamaro, bibafasha kuruhura mu mutwe ndetse bigatuma bakora kurushaho.

Ibigo by'amashuri bikoreshwa n'abarimu b'inzobere kugira ngo batange ubumenyi ku banyeshuri ndetse hakoreshejwe ingwa zabukenewe n'ibibaho n'amataburiya kugira ngo isuku igume iri hose.

Imihanda aho abana b'abanyeshuri banyura igomba kuba imeze neza ndetse bakita no ku bidukikije, harimo nk'amashyamba kugira ngo bakomeze kubungabunga ibidukikije.

Sare nini ihuriyemo abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe serivisi y'uburezi ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye n'abayobozi babo babakuriye.

Ibigo by'amashuri bihuriyemo abana bari mu kigero k'imyaka mitoya ndetse bagahabwa inyigisho zitandukanye n'abarezi babo, bakanabafasha mu buryo bwo gusobanukirwa.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bikoreshwa mu gutanga uburezi n'uburere ku banyeshuri, bigomba kuba byujuje ubuziranenge ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu bigo harimo nk'ibibaho.

Uburezi butangwa ku bana b'abanyeshuri, bakitabwaho n'abarimu babo b'inzobere kugira babahereze uburezi bukwiriye ndetse banabafashe mu buryo bujyanye no guhabwa ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri, gihuriramo abanyeshuri batandukanye kugira ngo baherezwe ubumenyi ndetse n'inyigisho, babiherezwa n'abarimu babo babishinzwe kugira ngo baherezwe uburere bumeze neza.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ndetse ku kigo cy'amashuri, aho baganira n'abarezi babo mu guhana ibitekerezo ndetse banabahereza inyigisho zitandukanye z'uburezi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ndetse n'abayobozi babo ku kigo cy'amashuri, mu rwego rwo kubagira inama ndetse no kubahereza inyigisho zitandukanye mu gufasha gusobanukirwa iby'uburezi.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bitangirwamo serivisi y'uburezi ndetse igahabwa abanyeshuri kugira ngo bakomeze kwitabwaho umunsi ku munsi, hari n'ibibuga bikoreshwa mu gutanga umutuzo ku bana b'abanyeshuri.

Inyubako zihuriyemo abanyeshuri batandukanye n'abayobozi babo, ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, ndetse banabaganirize uko bagomba kwitwara kugira ngo batsinde uburezi n'uburere.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri, ndetse bagahabwa amasomo n'abarezi babo bahugukiwe, kugira ngo bakomeze kwita ku banyeshuri umunsi ku munsi.

Ibigo by'amashuri bihuriyemo abaturage batandukanye kugira ngo bahabwe uburezi ndetse n'ubumenyi mu kwita ku buzima bwabo umunsi ku munsi, bagahabwa n'amataburiya kugira ngo serivisi zitangwe mu buryo bwizewe ndetse bufite n'isuku.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abanyeshuri mu kugaragaza ko bishimiye serivisi zitangwa ku baturage rusange umunsi ku munsi; babafasha mu kububakira udutanda, ndetse no kubahereza ubundi burezi n'uburere butandukanye.

Ibyumba bitangirwamo inyigisho zigiye zitandukanye ku banyeshuri ndetse aho ibitabo birimo inyandiko zigiye zitandukanye bibitswe mu buryo bw'isuku kugira ngo ubikeneye age amenya ahantu abikura mu buryo bwihuse.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye ndetse n'abarezi babo mu buryo bwo kubahereza inyigisho zigiye zitandukanye, bakabafasha gusobanukirwa ndetse bakanabahugura mu buryo bagomba kwitwara umunsi ku munsi.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bitanga serivisi ku bana b'abanyeshuri, ndetse bakabahereza uburezi, babahereza n'ubumenyi mu buryo bwo kubigisha.

Ibigo by'amashuri bitangirwamo serivisi z'uburezi ndetse n'uburere, aho abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya bahura n'abarimu babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivise y'uburezi n'abarimu babishinzwe kugira ngo bahereze abanyeshuri uburezi bufite ireme ndetse no gusobanukirwa, babahereza inyigisho zitandukanye.

Ikiziga gikozwe n'abanyeshuri imbere y'ikigo, bagaragaza ko bishimiye gukorera siporo hamwe, kandi bahagurutsa ubufatanye bwo kugorora, ingingo zabo, babifashijwemo n'abarimu b'inzobere.

Abanyeshuri batandukanye, b'ibigo by'amashuri, bagaragaza ko bishimiye, uburezi bahabwa, ndetse n'umuco na siporo bakora umunsi ku munsi, kugira ngo bakomeze kumera neza, banahabwa uburere.

Abanyeshuri batandukanye b'ikigo cy'amashuri cya Huye, bagaragaza ko bishimiye uburezi bahabwa bizihiza imyaka makumyabiri n'icyenda yo kwibohora, mu kugaragaza ko bishimiye uburezi bahabwa n'ibigo.

Inyubako zitangirwamo uburezi ndetse zigafatwa nk'ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri bagana kugira ngo bahure n'abarimu babo, babahereze inyigisho zitandukanye ndetse n'ibisobanuro ku burezi.

Ibigo by'amashuri bikoreshwa n'abarimu kugira ngo batange serivisi ku banyeshuri umunsi ku munsi, bakabahereza inyigisho ndetse n'ibisobanuro bihagije ku masomo bari gufata muri icyo kigo.

Icyumba cy'ishuri gihuriyemo abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya akaba ari ikigo cy'amashuri abanza ndetse n'abarimu babo kugira ngo babafashe mu buryo bwo guhabwa ubumenyi n'uburezi muri rusange.

Ibigo by'amashuri bitandukanye bihuriramo abana b'abanyeshuri ndetse n'abayobozi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye umunyeshuri akenera ndetse no kubabwira amakuru y'uburezi n'ubumenyi uko bigenda.

Icyumba kirimo abaturage bagiye batandukanye bose barimo guhabwa ubumenyi ndetse n'imyigishirize y'ubuhanga mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku kwita guteza imbere ubuzima bw'umuturage.

Sare nini ihuriyemo abanyeshuri batandukanye bari guhabwa amasomo n'abarezi babo kugirango babe bameze neza umunsi ku munsi, bakagirwa inama ndetse bakanahabwa inyigisho zigiye zitandukanye kugira ngo birinde ibituma umwana adasoza amashuri.

Ikigo cy'amashuri, gihuriyemo abanyeshuri batandukanye ndetse bari kumwe n'abayobozi babo n'ababyeyi bagiye batandukanye, mu kugaragaza ko bishimiye serivisi zitangwa z'uburezi, ndetse harimo n'udupfukamunwa mu kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo ibitabo bishobora gufasha umuturage wese ukeneye kumenya inyigisho zitandukanye kuba yabona ubumenyi akoresheje ibyo bitabo bibitswe mu buryo bwiza.

Ibigo by'amashuri bigomba kuba bifite ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri harimo ingwa, ibibaho n'ibindi bifasha abanyeshuri kugira ngo babashe gusobanukirwa isomo bari kwiga.

Abanyeshuri batandukanye bicaye hanze ndetse n'abarezi babo bicaye mu ntebe, bagaragaza ko bishimiye serivisi yo gutanga uburezi n'uburere ku bana b'abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'uburezi, aho abanyeshuri bahura n'abarimu b'inzobere kugira ngo babahereze ubumenyi ku buryo bugiye butandukanye.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri bicara bakoresheje intebe zimbaho, zigomba kuba zifite ireme zinakomeye kugira ngo abanyeshuri bataza kugira ibibazo mu gihe bari guhabwa inyigisho.

Abaturage bagaragaza ko bishimiye iterambere ry'ubwubatsi; bagaragaza ko ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi byose ari ingirakamaro kuko bibafasha mu kubaka neza.

Irembo aho abaturage rusange banyura kugira ngo bahure n'abayobozi babo b'inzobere, babahereze inyigisho ndetse n'ubumenyi mu bigo by'amashuri kugira ngo babe bameze neza umunsi ku munsi.

Ikigo cy'amashuri cy'ababikira, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe amasomo atandukanye ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye n'abarimu babashinzwe.

Ikigo cy'amashuri gihuriyemo itsinda ry'abanyeshuri ndetse n'abayobozi babo, mu buryo bwo kubahereza amakuru mashya ndetse no kubamenyesha ibizagerwaho mu gihembwe mu gihe bari kwiga ndetse no guhabwa amasomo.

Abanyeshuri bambaye amataburiya asa ndetse afite isuku nyinshi, bakaba bari mu ishuri ripima imiti igiye itandukanye, banahabwa ubumenyi n'ubusobanuro kuri byo.

Icumbi, amavarisi, ibikoresho bitandukanye harimo ibitabo, amapepiyejeniki, amavuta ndetse n'ibindi bikoreshwa kugira ngo umunyeshuri abe ameze neza mu kigo cy'amashuri.

Ibigo bitangirwamo serivisi y'ubumenyi, ndetse bigatangwa n'impuguke zabugenewe kugira ngo zigeze ku banyeshuri serivisi y'uburezi muri rusange.

Icyumba cy'amashuri gitangirwamo serivisi n'abarimu bari kugeza inyigisho zitandukanye ndetse n'ibisobanuro ku banyeshuri bagiye batandukanye umunsi ku munsi.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'abayobozi b'inzobere, aho hatangirwa serivisi y'ubumenyi kugira ngo bijye bikoreshwa mu buryo bwizewe bufashe abaturage.

Ikigo cy'amashuri gihuriramo abarimu b'inzobere ndetse batanga inyigisho ku banyeshuri batandukanye bagomba guherezwa uburezi ndetse n'uburere kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Ibigo by'amashuri birimo ibikoresho bitandukanye, aho umuturage aruhukira cyangwa se umunyeshuri ndetse n'aho akoresha yigira kugira ngo asubire mu masomo ye.

Icyumba kibitswemo ibikoresho bitandukanye by'isuku, birimo imiti igiye itandukanye ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abavuzi b'inzobere kugira ngo bakore imiti ihabwa abarwayi.

Ibigo by'amashuri aho abaturage batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe ubumenyi ndetse n'uburere, bahabwe n'inyigisho n'abaganga b'inzobere babafashe kumva neza iby'uburezi kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'uburezi bigatangwa hakoreshejwe abarimu b'inzobere ndetse bakageza ubumenyi butandukanye ku banyeshuri rusange b'abaturage kugira ngo bakomeze kwitabwaho.

Igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu bigo by'amashuri kugira ngo cyifashishwe hari gutangwa inyigisho zigiye zitandukanye ndetse kikamurikwa ahantu kugira ngo kibashe kuba cyagaragaza amagambo agiye atandukanye ari kwigishwa.

Ibigo bitangirwamo serivisi n'abarimu bageza ubumenyi ndetse n'inyigisho zitandukanye ku banyeshuri, akaba hari n'ameza aho abarimu babika ibitabo byabo ndetse n'utubati aho ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu mashuri bubikwa.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri serivisi yo guhabwa ubumenyi ndetse no gutangwa kw'inyigisho zigiye zitandukanye, hari amakayi n'amakaramu akoreshwa kugira ngo inyigisho zatanzwe zanandikwe kugira ngo zitazibagirana.

Sale nini ihuriyemo abanyeshuri batandukanye ndetse n'abayobozi babo mu rwego rwo kubaheriza inyigisho zitandukanye, ndetse no kubakangurira kwiteza imbere umunsi ku munsi.

Icyumba gihuriyemo abaturage rusange ndetse bari kumwe n'abarimu babo mu kubafasha kubahereza inyigisho zitandukanye ndetse no gukomeza gusobanukirwa.

Icyumba kirimo ivarisi aho umunyeshuri abika ibikoresho ndetse n'icumbi aho agomba kuryama, ni ingirakamaro kuko aba agomba kubikoresha kandi akabikoresha bifite isuku.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'inyigisho, hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo nka mudasobwa kugira ngo abarimu bahereze inyigisho ikwiriye abanyeshuri.

Icyumba kirimo utubati, ameza ndetse n'ibitanda, aho serivisi z'inyigisho zitangirwa n'ababishinzwe cyangwa se abarimu barimo barahereza inyigisho abanyeshuri.

Icyumba k'ishuri gihuriyemo abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, banabahereze ibisobanuro by'uko bagomba kwita ku burezi n'uburere.

Ibyumba by'amashuri bitangirwamo serivisi y'uburezi n'uburere ku banyeshuri batandukanye, bambaye amataburiya afite isuku ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu isuzuma.

Jaride nini irimo ibiti biteye neza ndetse n'ibindi bifite amababi maremare, byose bikoreshwa nk'ubusitani, aho uburezi ndetse n'ubumenyi n'izindi nyigisho zitandukanye zitangirwa ku baturage rusange.

Inyubako y'abaturage aho abanyeshuri baherezwa uburezi ndetse n'ubumenyi n'abarimu babo babishinzwe ndetse bagakomeza kwita ku ireme ryo gutanga uburezi mu gihugu.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye mu kwerekana ko guhabwa uburezi ndetse no guhabwa ubumenyi n'inyigisho zitandukanye bahabwa n'abarimu b'inzobere, ari ingirakamaro ku buzima bwabo.

Icyumba kirimo imeza, intebe ndetse n'ahantu ibitabo bibikwa mu gihe umuturage wese arimo arakora isoma cyangwa se asobanukirwa mu bijyanye n'ubumenyi agomba gukoresha.

Inyubako ya etaje itangirwamo serivisi y'uburezi ndetse bakabuhereza abana b'abanyeshuri kugira ngo bakomeze kwitabwaho umunsi ku munsi, babafasha mu gusobanukirwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubumenyi, ndetse bugatangwa n'impuguke mu gutanga inyigisho ku banyeshuri bagiye batandukanye bifuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku ikoranabuhanga ndetse n'ibindi.

Icyapa cy'ikigo kigaragaza aho batangira ubumenyi bw'amavuriro ku bantu bashaka kwiga gutangira ubuvuzi butangwa ku baturage, hagatangwa inyigisho zitandukanye kugira ngo umuntu azatange serivisi imeze neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'ubugeni, ikaba itangirwamo serivisi z'ubumenyi ndetse n'inyigisho ku baturage rusange, bakitabwaho n'ababishinzwe umunsi ku munsi kugira ngo bafate serivisi imeze neza.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri bahurira n'abarimu b'inzobere kugira ngo babahereze ubumenyi n'uburezi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa kugira ngo abanyeshuri bahabwe amasomo afite ireme ndetse n'ibindi bigabanya ubushyuhe.

Umuhanda w'amabuye wegereye ikigo gitangirwamo serivisi ku bana b'abanyeshuri, aho bahura n'abarimu babo bakabohereza inyigisho zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo ndetse no kubungabunga ubuzima bw'inyigisho bahawe umunsi ku munsi.

Inyubako zitandukanye, zitangirwamo uburere n'uburezi, ku banyeshuri, aho bahurira n'abarimu babo, kugira ngo babafashe, mu kubahereza inyigisho, zigiye zitandukanye.

Icyapa kirimo amagambo y'umweru kigaragazaho uburezi n'uburere bitangirwa ku kigo cy'amashuri, aho uhura n'abarimu b'inzobere kugira ngo baguhereze inyigisho zitandukanye.

Icyumba cy'inyubako gitangirwamo serivisi y'uburezi n'uburere ku baturage rusange, kirimo ibikoresho birimo iby'ikoranabuhanga bifasha abanyeshuri mu gusobanukirwa.

Ihuriro ry'abaturage rusange, ndetse bari kumwe n'abayobozi babo kugirango babahereze inyigisho zitandukanye bakoresheje mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Inyubako zirimo intebe, aho abanyeshuri bagomba kwicara mu gihe barimo barafata ubumenyi ndetse n'izindi nyigisho zitangwa n'ababihugukiwe umunsi ku munsi kugira ngo basobanukirwe.

Inyubako zitandukanye z'ibigo by'amashuri bitanga serivisi y'ubumenyi ku bana ndetse bigakoreshwa n'abayobozi babishinzwe kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bufite ireme.

Ibigo by'amashuri bitangirwamo uburezi n'abarimu babizobereyemo kugira ngo bahereze abanyeshuri inyigisho zitandukanye z'ubumenyi ndetse no gusobanukirwa byinshi ku burezi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'inyigisho, zitangwa n'abarimu b'impuguke kugira ngo bahereze abanyeshuri ubumenyi ku kintu runaka bari kwiga ndetse banabafashe gusobanukirwa.

Abaturage bagaragaza ko bitaye ku ireme ryo kubaka inyubako zizatangirwamo inyigisho n'abarimu b'impuguke, mu guhereza abanyeshuri batandukanye ubumenyi ndetse n'inyigisho zitandukanye.

Icyumba gitangirwamo inyigisho zigiye zitandukanye aho uhura n'abarimu b'inzobere, bakaguhereza inyigisho zitandukanye hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bisobanuro.

Inyubako zitangirwamo inyigisho zitandukanye, kugira ngo umuntu wese abe abasha kubona neza, anumva neza agomba kuba yicaye mu mwanya mwiza ndetse bikitabwaho birimo n'isuku ifite ireme.

Ibyumba by'amasomero aho ibitabo bitandukanye bibitswe ndetse ibyo bitabo bigakoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bakeneye gusoma inyigisho ziri muri ibyo bitabo.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri cya université gitanga uburezi n'uburere ku bana b'abanyeshuri kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha mu kwiteza imbere, bakanateza n'igihugu imbere.

Kbigo bitangirwamo serivisi ubumenyi, hagakoreshwa abaganga b'inzobere kugira ngo batange ubumenyi ku baturage rusange baba bakeneye kumenya uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa muri rusange.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'amasomo ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye. Hakaba harimo aho abanyeshuri batandukanye bagomba kwicara kugira ngo bahabwe serivisi mu buryo bunoze.

Ibyumba rusange by'abaturage bitangirwamo serivisi n'abayobozi babishinzwe kugira ngo bageze inyigisho zitandukanye ku baturage ndetse bana bafashe mu gusobanukirwa.

Inyubako itangirwamo serivisi z'inyigisho, aho abarimu b'inzobere bahereza inyigisho abanyeshuri bagiye batandukanye bagannye ibyo bigo kugira ngo babafashe mu gusobanukirwa.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'ubugeni, akaba ari ikigo gitangirwamo serivisi y'ubumenyi ndetse n'ihugura ku bijyanye n'Isi ndetse no guteza ubuzima bw'umuturage imbere, higishijwe ubuhinzi ndetse n'umuco muri rusange.

Ibigo by'amashuri bihuriramo abarimu babishinzwe ndetse n'abanyeshuri batandukanye kugira ngo babahereze ubumenyi ndetse n'izindi nyigisho zitandukanye mu byo gusobanukirwa ibijyanye n'uburezi.

Gutanga inyigisho zitandukanye z'uburyo ibikoresho byo muri laboratwari bikoreshwa, hakoreshejwe ibikoresho byabukenewe ndetse n'amaga y'isuku, kugira ngo wirinde indwara zose zishobora kugufatira.

Inyubako irimo abanyeshuri batandukanye, bahuriyemo n'umwarimu wabo kugira ngo abahereze inyigisho zitandukanye ku burezi n'uburere, hakoreshejwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gusobanukirwa.

Ibigo by'amashuri bikoreshwa mu gutanga serivisi ku banyeshuri batandukanye, abarimu b'inzobere akaba aribo bahereza inyigisho abo banyeshuri, kugira ngo baherezwe amasomo akwiriye.

Ibigo by'amashuri bihuriramo abaturage batandukanye kugira ngo bahure n'abarimu babo babashinzwe, babahereze inyigisho zitandukanye ndetse banabakangurire babahereza ibisobanuro bitandukanye ku burezi.

Ibyumba bitandukanye bihuriramo abaturage rusange ndetse n'abayobozi babo, kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye ku kwita ku iterambere ry'igihugu, ndetse no guhabwa ibisobanuro bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse bifite n'isuku ihambaye, hakaba harimo mudasobwa ndetse n'ikindi cy'umweru gikoreshwa n'inzobere kugira ngo gitange serivisi inoze.

Serivise zitangirwamo amasomo ku bana b'abanyeshuri ndetse abarimu batandukanye bagatanga uburezi n'uburere ku banyeshuri bagiye batandukanye kugira ngo serivisi ikomeze gutambutswa mu buryo bwizewe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'amafunguro ku baturage rusange ndetse bagahabwa amafunguro bayahawe n'abatetsi babugenewe kugira ngo babakorere amafunguro ameze neza, abo bayahabwa bakaba ari abanyeshuri ndetse n'abandi batanga inyigisho zikomeye.

Serevisi zitangwa ku baturage rusange, ndetse akaba ari icyumba kitangirwamo inyigi, zigahabwa abaturage bagiye batandukanye harimo urubyiruko cyane cyane, ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi, hari naho ibitabo bibikwa kugira ngo bibe bifite isuku imeze neza.

Icyumba gihuriwemo abanyeshuri batandukanye bambaye amataburiya mu buryo bwo kwirinda ndetse bari gusuzuma imiti igiye itandukanye, banaherezwa inyigisho zikomeye.

Icyumba gihuriwemo abanyeshuri batandukanye ndetse n'umwarimu wabo, ubafasha mu byo gusobanukirwa abahereza inyigisho zigiye zitandukanye kugira ngo babashe gusobanukirwa iby'uburezi.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye agaragaza amasomo atangwa ku kigo cy'amashuri, agatangwa n'abarezi babishinzwe kugira ngo bageze ku banyeshuri bifuza kugana icyo kigo uburezi bukwiriye.

Ibyumba bikorerwamo amasuzuma y'imiti ndetse hakoreshejwe abarimu babikenewe b'inzobere, hakanakoreshwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo umuti upimwe mu buryo bwizewe.

Sale nini ihuriyemo abaturage rusange ndetse n'abayobozi babo aho bafata siteji kugirango babaganirize ku buryo bwo gutezanya imbere bahabwa n'inyigisho zitandukanye.

Ibigo by'amashuri, aho abaturage rusange bahuriye kugira ngo baganire kuri serivisi zo gutezaya imbere, mu buryo bwo gutanga ubumenyi ndetse no kuganiriza umuturage uburyo ashobora kwiteza imbere umunsi ku munsi.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zigiye zitandukanye zicarwaho n'abanyeshuri mu gihe barimo baraherezwa amasomo azabafasha ndetse no kumenya byinshi ku nyigisho baherezwa na ba mwarimu umunsi ku munsi.